Icyapa kinini cyane gishushanyijeho abantu benshi, harimo abagabo n'abagore, ni abazungu, bafite imisatsi myinshi, harimo abambaye imyenda y'umukara, umweru, umutuku, n'iyindi.

Imvura nyinshi, imyuzure, n'ibindi biza, byakwangiza inyubako yawe, bikagutera ibihombo. Irinde sinamenye! Ugure ubwishingizi bw'inyubako, maze ugire umutakano usesuye.

Abantu baricaye ni babiri, umwe ni igitsina gabo, undi ni igitsina gore, umugore afite umusatsi mwinshi, imbere yabo hari icyapa cyanditseho mutuze heza uharinde neza.

Duha agaciro ibyo uha agaciro kurusha ibindi twakire kuri watsapu, akanyenyeri magana abiri na mirongo itanu karindwi, umunani, umunani, gatatu, rimwe, gatatu, karindwi, gatanu, gatandatu.

Komeza wizigamire wungukirwe agera kuri ane ku ijana ku mwaka. Akanyenyeri gatanu gatatu rimwe urwego, rimwe kabiri gatatu kane gatanu gatandatu karindwi umunani.

Temberana ubwishingizi bukugoboka mu bihe by'akaga. Umuntu yambaye ingofero yicaye ageretse akaguru ku kandi. Arimo kwamamaza ibyiza byo gutemberana ubwishingizi, bwakugoboka mu bihe by'akaga.

Ubwishingizi ni ingenzi mu buzima bwacu bwa buri munsi, butuma umuryango urangwa n'ibyishimo, umunezero, umutekano, kandi ukagera ku iterambere rirambye, kuko nta burwayi burangwa muri uwo muryango.

Umuntu w'umugabo aricaye yambaye ikote ry'umukara, imbere ye handitse amagambo avuga ngo, kuki ukwiriye kutwizere mu gihe ukeneye ubwishingizi?

Ubwisungane mu kwivuza. Tuge dushishikariza abantu kugira ubwisungane mu kwivuza kuko iyo arwaye biramworohera yagera kwa muganga bakamuca amafaranga makeya.

Ahangaha bari kutwereka abantu benshi, abo bantu benshi biragaragara ko bari mu isoko bari gucuruza ,iryo soko rirageretse, harimo abantu bambaye imyenda y'umukara.

Umuntu w'igitsina gore afite terefone igendanwa mu ntoki yambaye amataratara ,imbere ye haranditse ngo w'ihangayika ohereza ibisabwa byo kumenyesha impanuka igihe cyose aho uri hose.

Kohereza kuri konti zange, kohereza kuri konti ya zigama, mobayiromani, kohereza kuri konte zandi ma banki.

Gatatu zeru zeru akitso zeru zeru zeru, rimwe zeru zeru akitso zeru zeru zeru, kabiri zeru zeru akitso zeru zeru zeru.

Isoko ririmo ibintu bitandukanye tujye duhahira ku isoko kuko dusangayo ibintu byinshi, haba hari imyenda ndetse n'ibiribwa. Imyenda wasangamo amakanzu maremare ndetse n'amagufi, amakote ndetse n'imipira.

Abantu babiri barahagaze ni abadamu bariguhanahana terefone zigendwana, umwe yambaye amataratara arikumufasha kureba bafite imisatsi myinshi ituma bagira ubwiza.

Umuntu arahagaze yambaye igitambaro cy'umukara mu mutwe n'umupira w'umuhondo arimo araseka. Afite mu ntoki telefone igendanwa. Imbere ye hari imbuto harimo inyanya.

Ahantu hari habereye amatora abaturage bamwe bari kujya gutora abandi bari kuvayo ku marembo y'aho hantu hari habereye amatora hari hari banderore yanditseho repubulika y'u Rwanda komisiyo y'igihugu y'amatora, amatora y'abadepite ibihumbi bibiri na cumi n'umunani twitabire amatora duhitemo neza.

Abantu babiri barahagaze. Ni abagabo. Bafite ibyapa mu ntoki. Umwe yambaye amataratara, arimo araseka. Bahagaze imbere y'amamodoka. Hirya hari inzu igerekeranyije.

Umuhanda w'umukara wa kaburimbo urimo ibyerekezo bibiri bitandukanye ndetse ukaba ufite n'imirongo ugiye ushushanyijemo hari umurongo w'umweru urombereje uri k'uruhande ndetse n'iyindi iri hagati icagaguwe irimo ibara ry'umuhondo ikaba ifite n'amatara amurika mu gihe cy'ijoro ndetse na kamera zishinzwe umutekano wo mu muhanda.

Imodoka ziparitse imbere y'inzu, zirashaka gutwara abantu ndetse n'ibintu, kugirango zibageze aho bashaka kujya mu buryo butabagoye, inzu nini cyane ifite amadirishya manini ndetse n'inzugi nini birimo ibirahure.

Imodokari ziraparitse, zitegereje abagenzi, kugira ngo zibageze aho bashaka kujya mu buryo butabagoye, ibiti ku muhanda ni ingezi, abantu babyugama mo, igihe imvura iguye cyangwa se izuba rivuye.

Imodokari ziraparitse, zitegereje gutwara abantu n'ibintu, amazi ni meza mu mubiri, tujye dusoma imvaho kuko haba harimo amakuru menshi atandukanye, inzu yubatse ikaba irimo amakaro biyiha ubwiza.

Umugore w'inzobe wambaye amadarubindi ufite imisatsi miremire yumukara wambaye amaherena wambaye ikoti ry'umukara n'agapira imbere wambaye ipantaro y'umukara n'ikayi iriho mumabara y'ubururu ndetse yicaye ku ntebe yumweru imbere yiwe hateretse indangurura majwi y'umukara.

Imodoka zitwara abagenzi, zigatuma bagera aho bashaka kugera bitabagoye. Ibiti ni byiza ku muhanda, birwanya isuri. Amashanyarazi aratumurikira, bigatuma tubona neza.

Imodokari zitwara abantu ndetse n'ibintu zigatuma bagera bashaka kujya mu buryo bwihuse, igipangu iyo cyubakishije amatafari ya ruriba ukamanuramo ibyuma icyo gipangu kiba gikomeye cyane.

Imodokari ziri mu muhanda wa kaburimbo ziri gutwara abantu, ndetse n'ibintu kugira ngo zibafashe kugera aho bashaka kujya mu buryo butabagoye. Hirya haparitse izindi zitegereje abagenzi.

Imodoka iraparitse itegereje gutwara abantu ndetse n'ibintu kugira ngo ibageze aho bashaka kujya mu buryo butabagoye , abantu barahagaze barimo barafata positeri kugira ngo bifotoze.

Abantu babiri barahagaze, n'igitsina gabo, bafashe ku modokari, bambaye udupfukamunwa umwe yambaye ipantaro y'umukara n'ishati ishaka kuba umweru, undi yambaye ishati y'ubururu n'ipantaro ya kaki.

Imodokari rizifasha abantu n'ibintu kugera bashaka kujya bitabagoye, inzu yubakishije amatafarihiye biyiha uburambe wayisakaza amabati bikaba akarusho, washyiraho inzugi z'ibyuma ndetse n'amadirishya bikaba byatuma igira agaciro igihe ugiye kuyigurisha.

Abantu babiri bahagaze imbere y'inzu, umwe arimo kure muri terefone igendanwa, inzu yubatse ku buryo bw'ikoranabuhanga. Ifite amadirishya y'ibirahure gusa n'inzugi z'ibirahure gusa, iragaragara neza bizatuma igira agaciro igihe bagiye kuyigurisha.

Amafaranga n'ingenzi m'ubuzima bwacu bwa burimunsi, adufasha muri byinshi bitandukanye byaba ibyokurya cyangwa se ibyo kwambara waba ugurira abana ibikoresho cyangwa ubishyurira amafaranga y'ishuri.

Amafaranga aradufasha mu buzima bwacu bwa buri munsi, tuyifashisha duhaha ibiribwa ndetse n'ibinyobwa, imyambaro ndetse n'ibikoresho by'abanyeshuri. Ikindi kandi leta ikayifashisha mu kubaka ibikorwa remezo.

Banki nkuru y'u Rwanda, amafaranga ibihumbi bibiri, aradufasha muri byinshi bitandukanye, twayakoresha duhaha ibiribwa ndetse n'ibinyobwa, tugura ibikoresho bitandukanye byaba iby'abanyeshuri cyangwa se n'abandi bantu.

Amafaranga aradufasha mu buzima bwacu bwa buri munsi yaba twishyurira abanyeshuri amafaranga y'ishuri, tubagurira ibikoresho leta ikayifashisha mu kubaka ibikorwa remezo.

Abantu babiri barimo baraganira ni abagore, umwe yambaye igitambaro mu mutwe, yambaye ikote ry'umukara, undi yambaye ikanzu y'igitenge afite umusatsi mwinshi.

Inote y'amafaranga ibihumbi bitanu y'u Rwanda hashushanyijeho uduseke tubiri akanini n'agatoya, tugizwe n'amabara atandukanye harimo umweru n'umukara.

Imifungo myinshi y'amafaranga umuntu arayifashe. Amafaranga aradufasha mu buzima bwacu bwa buri munsi. Adufasha duhaha ibyo kurya ndetse no kwambara. Tugurira abanyeshuri ibikoresho. Leta iyifashisha mu kubaka ibikorwa remezo.

Ukuboko gufashe igikombe. Kirimo icyayi. Ku isahani hari ikanya ndetse n'ikiyiko. Ikanya ifashe irindazi. Ku isahani hari keke.

Ibiganza bibiri bifashe isiniye nini cyane ifite amabara atandukanye harimo umweru ndetse n'iroze hariho amandazi manini cyane.

Amafaranga ni ingenzi mu buzima bwacu. Ubu hari uburyo bwizewe bwo kuyabika dukoresheje ikoranabuhanga. Bigatuma agira umutekano bikakurinda abajura. Aho ugeze hose ukaba wakwishyura ibyo ushaka bitakugoye.

Ishyura umuriro ukoresheje terefone igendanwa, akanyenyeri ijana na mirongo inani na kabiri akanyenyeri kane akanyenyeri rimwe urwego. Umusatsi ku mudamu umwongerera ubwiza.

Telefone igendanwa ni nziza akanyenyeri rimwe rimwe gatanu urwego rimwe kabiri gatatu kane gatanu gatandatu karindwi umunani.

Tujye twibuka gutanga imisoro mu gihe ari ngombwa. Kandi baduhe icyemezo cyo kutabamo umwenda w'imisoro. Igihugu iyo kibuze imisoro kirahungabana, kuko niho gikura amafaranga yo kubaka amashuri, amavuriro, n'ibindi bikorwaremezo.

Tujye twibuka gutanga imisoro mu byo dukora byose, kuko imisoro ifitiye igihugu akamaro kanini cyane, ni ho gikora amafaranga yo kubaka amashuri, amavuriro, kubakira abatishoboye, gusana imiyoboro y'amazi, kureba n'ibindi byose byagiye byangirika maze ikabisana.

Abantu bagaragara mu muhanda bambaye imyenda y'akazi umwe afite igare yambukira aho abanyamaguru bambukira hirya hari amazu n'ibiti bitandukanye.

Ikemezo cyo kutabamo umwenda w'imisoro. Tujye twibuka gutanga imisoro mu byo dukora byose byaburi munsi. Kuko imisoro igihugu kirayifashisha mu bintu bitandukanye. Kiyifashisha cy'ubaka ibikorwaremezo.

Umuntu afite amafaranga mu ntoki. Ni inote y'amafaranga makumyabiri. Amafaranga turayakoresha mu buzima bwacu bwa buri munsi. Ni ingirakamaro. Leta iyifashisha yubaka ibikorwa remezo.

Amafaranga adufasha muri byinshi mu buzima bwacu, dushobora kuyakoresha tujya guhaha ibiribwa cyangwa se ibinyobwa ndetse n'imyambaro, tushobora kuyifashisha twishyurira abana amafaranga y'ishuri, tubagurira ibikoresho.

Igihugu kidafite amafaranga nta terambere cyageraho; kuko kiyifashisha: cyubaka amashuri, amavuriro, gikwirakwiza amazi mu baturage, gikwirakwiza amashanyarazi; abaturage natwe tukayakoresha mu buzima bwacu duhaha ibidutunga.

Amafaranga aradufasha mu buzima bwacu bwa buri munsi. Yaba tugiye guhaha ibyo kurya byo kwambara ndetse n'ibindi. Leta yifashisha mu kubaka ibikorwa remezo harimo; amavuriro, amashuri, ndetse no gusanasana ibyangiritse.

Mirongo itatu na kane, akadomo, mirongo itandatu n'icyenda. Mirongo itatu na gatanu, akadomo, zeru, icyenda. Mirongo itanu na gatatu, akadomo, mirongo icyenda na rimwe. Mirongo itatu n'umunane, akadomo, mirongo itanu na karindwi. Zeru, akadomo, magana abiri na mirongo icyenda.

Amafaranga menshi y'ubwoko butandukanye. Amafaranga aradufasha muri byinshi, Leta iyifashisha yubaka ibikorwaremezo, abantu natwe tukayakoresha mu buzima bwacu bwa buri munsi duhaha ibyo kurya ndetse n'ibyo kunywa.

Amafranga y'ubwoko butandukanye harimo inoti ya makumyabiri, mirongo itanu, ijana, magana abiri, magana atanu, igihumbi, amafaranga ni ingenzi leta iyifashisha muri byose haba yubaka amashuri, amavuriro ndetse n'ibindi.

Amafaranga ni ingenzi mu buzima bwacu bwa buri munsi. Kuko tuyakoresha tujya guhaha ibyo kurya, ibyo kwambara, tuyagurira mo abana ibikoresho by'ishuri, tuyishyura za minerivare, tuyagura amazi, amashanyarazi, ndetse n'ibindi.

Amafaranga aradufasha mu buzima bwacu bwa buri munsi, tuyifashisha mu byo dukora bitandukanye, twaba dushaka ibiribwa, ibinyobwa ndetse n'imyambaro, twishyurira abanyeshuri amafaranga y'ishuri, leta ikayifashisha nayo y'ubaka ibikorwa remezo.

Udafite amafaranga ntacyo twageraho adufasha muri byinshi niyo twifashisha duhaha ibyo kurya ibyo kwambara, kwishyurira abana amafaranga y'ishuri tubagurira n'ibindi ibikoresho, leta ikayifashisha mu kubaka ibikorwa remezo ndetse n'ibindi.

Mu byo dukora byose mu buzima bwacu bwa buri munsi, twifashisha amafaranga. Tuyakoresha tugura ibyo turya, ibyo twambara, turihirira abana amashuri, tubagurira ibikoresho. Leta ikayifashisha yubaka ibikorwa remezo, harimo amashuri, amavuriro ndetse n'ibindi.

amafaranga ari mu biganza bibiri, amafaranga aradufasha muri byinshi tuyifashisha duhaha ibyo kurya ndetse n'ibyo kwambara, leta ikayifashisha yubaka ibikorwaremezo harimo imihanda, amashuri amavuriro ndetse n'ibindi.

Ibiganza bibiri bifashe amafaranga, inote y'igihumbi, amafaranga adufasha muri byinshi, tuyahahisha ibiribwa cyangwa se ibinyobwa, twishyurira abanyeshuri amafaranga y'ishuri cyangwa se tubagurira ibikoresho.

Inote y'amafaranga igihumbi yo mu gihugu cya Tanzaniya, inzu yubatse igerekeranyije, amafaranga aradufasha muri byinshi adufasha duhaha ibyo kurya ndetse n'ibyo kwambara, twishyurira abana amafaranga y'ishuri ndetse n'ibindi.

Amafaranga aradufasha mu buzima bwacu bwa buri munsi wayifashisha ushaka ibyo kurya, ibyo kwambara, ugurira abanyeshuri ibikoresho, bishyura amafaranga y'ishuri, leta iyifashisha yubaka ibikorwa remezo.

inote z'amafaranga mirongo itanu amafaranga yo muri congo adufasha muri byinshi twayakoresha twubaka ibikorwa remezo cyangwa se tugura ibikoresho bitandukanye byaba ibyabana cyangwa se abantu bakuru.

Amafaranga ni ingenzi mu bikorwa byacu bya buri munsi. Hari in note y' ibihumbi makumyabiri, ibihumbi icumi, ibihumbi bitanu, igihumbi ndetse n'iya magana atanu. Leta irayifashisha irimo kubaka ibikorwaremezo nk'amashuri, amavuriro ndetse n'ibindi.

Ibyapa bidufasha kuyoboka ahantu tutari tuzi, hamagara zeru karindwi umunani umunani, gatandatu gatandatu, gatanu gatanu, karindwi umunani baguhe ubundi busobanuro.

Inzu ndende, yubatse igerekeranije, imbere hahagaze umuntu, hateye n'igiti, hari icyapa cyanditseho ineza. telefone, zeru karindwi umunani umunani, gatandatu gatandatu, gatanu gatanu, karindwi umunani.

Abantu babiri bafite amafaranga mu ntoki umwe ni umugabo undi ni umugore ,umugore yambaye umwenda w'umukara ndetse yambaye n'amaherena ku gutwi ,amafaranga aradufasha muri byinshi kuko tuyifashisha tugura ibyo kurya ndetse n'ibyo kunywa leta ikayifashisha yubaka ibikorwa remezo.

Umuteguro mwiza cyane, intebe n'ameza, inzu yubatse igerekeranyije ifite amadirishya n'inzugi by'ibyuma, hasizemo irange ry'ubururu.

Umuteguro mwiza cyane harimo ameza menshi ndetse n'intebe bitandukanye, utubati dukoze mu biti hejuru y'utubati hariyo amakositara.

Abantu benshi ubona bicaye ahantu hamwe batuje, barakeye babiri muri bo barahagaze, umwe kandi afite igikoresho cyifashishwa mu kurangurura amajwi kugira ngo agere kubamukurikiye.

Umuteguro mwiza, intebe ndetse n'ameza yiburungushuye, inzu yubatse neza cyane, ifite amadirishya manini n'inzugi nini birimo ibirahuri.

Imutako myiza yomekwa ku bikuta by'inzu, ikarushaho kongera ubwiza ndetse n'agaciro k'inzu yawe. Si ngombwa ko wakoresha amawuwa gusa ushyira imitako mu nzu iwawe.

Intebe, ameza by'imbaho bifite amaguru y'ibyuma zirakomera, inzu yubakishije amatafari ahiye irakomera cyane, iyo ushyize amarido mu nzu mu madirishya usanga bigaragara neza.

Umuteguro mwiza cyane kandi ushimishije, intebe ziteguye neza, ameza imbere hateretseho amazi. Amazi ni ingirakamaro mu buzima bwacu.

Inzu yubakishije ibyuma iba ifite agaciro gakomeye kandi ikindi ibikomeye cyane, iyo izengurukijwe ubusitani burangwamo amawuwa, ibiti, ibyatsi biyiha agaciro cyane iyo ugiye kuyigurisha.

Ayo amazu yubatse agerekeranyije biyaha agaciro. Wasakaza amabati, bikaba akarusho. Washyiraho inzugi n'amadirishya by'ibyuma, bigatuma arushaho kugira agaciro. Ibiti iyo ubifashe ukabizengurutsa impande y'amazu, bituma hahora amahumbezi.

Inzu nini cyane yubatse igerekeranyije, imbere hari umuteguro mwiza, hari ameza ndetse n'intebe,. Intebe zifite amabara atandukanye, harimo iza oranje, iz'icyatsi ndetse n'umukara.

Inzu nyinshi zubatse ku buryo butandukanye harimo izubatse zigerekerenyije zifite amadirishya manini, ndetse n'inzugi nini zifite ibirahure imbere hateye amawuwa.

Inzu nini cyane. Yubatse igerekeranyije, ifite inzugi nini ndetse n'amadirishya manini, birimo ibirahure. Imbere hari umuteguro mwiza. Ameza ndetse n'intebe.

Imodokari ziraparitse, zitegereje gutwara abantu. Inzu irubatse iragerekeranyije, isakaje amategura, ifite inkingi z'ibyuma, izengurukije ibiti.

Inanasi ni zimwe mu mbuto zitunga umubiri wacu zikawurinda indwara, kunywera mu birarahure icyo unyweramo kiraryoha cyane, umutobe w'imbuto uba ushimishije cyane uri mu dukombe tw'ibirahure.

Inzu nini cyane yubatse igerekeranije ifite inzugi nini n'amadirishya manini birimo ibirahure imbere hari inkingi z'ibyuma hafi yaho hateye ibiti byinshi.

Inzu nini cyane yubatse igerekeranyije, ifite amadirishya n'inzugi binini cyane, mu imbere haparitse amamodoka.

Icyapa kinini cy'ubururu mu nguni y'icyo cyapa iburyo hari amagambo yanditse ngo arasesibi hagati hakaba hari igishushanyo cy'abantu batatu bari mu mutaka umwe, munsi y'icyo gishushanyo hakaba hari amagambo manini yanditseho mituweli. Munsi y'ayo magambo manini hakaba haranditse ubwisungane mu kwivuza.

Inzu y'ubatse ku buryo bushimishije iragerekerenyije. Ifite amadirisha n'inzugi by'ibyuma, ifite indabo imbere yayo, umuntu ahagaze ku rukuta ari kuvugira kuri telefone igendanwa.

Abantu batatu barahagaze n'abagabo imbere yabo hari ameza, hariho amawuwa. Umwe yambaye ikote ry'umukara n'ipantaro y'umukara, undi yambaye ishati y'umweru n'ipantaro y'umukara, undi yambaye umupira w'umutuku n'ipantaro y'ubururu.

Imodokari zitwara abantu ndetse n'ibintu, Bigafasha abantu kugera aho bashaka kujya mu buryo butabagoye. Iyo inzu fite amadirishya manini ndetse n'inzugi bituma igaragara neza. Amashanyarazi aradufasha kuko atuma tubona ibyo tutabashaga kubona.

Umuntu arahagaze ni igitsina gabo, arishimye kuko arimo guseka afite terefone igendanwa mu ntoki, yambaye umupira w'amaboko maremare ahagaze hagati muryango we.

Abantu iyo bambaye impuzankano usanga bagaragara neza. Ikindi kandi bituma ubatandukanya n'abandi. Kuko baba bambaye imyenda yanditseho icyo bashinzwe. Udupfukamunwa tudufasha kwirinda indwara zandurira mu buhumekero.

Umutanguha Kicukiro inzu nini cyane ifite amadirishya n'inzugi binini cyane birimo ibirahure, hirya hariyo amamodoka ategereje abagenzi kugira ngo abageze aho bashaka kujya.

Inzu yubatse igerekerenyije, imbere hari abantu ndetse haparitse n'amamodoka menshi, harimo ayafite irangi ry'umweru, hafi yaho hari imitaka abantu barayitwikiye.

Abantu tujye twitabira guhahira mu isoko kuko haba harimo ibintu byinshi bitandukanye, twahasanga inkweto, ibikapu, amasakoshi, utubati dutandukanye, amashuka ndetse n'ibiringiti.

Umuhanda wa kaburimbo imbere hubatse inzu nini cyane igerekeranyije ifite amadirishya manini ndetse n'inzugi nini, imbere haparitse imodoka.

Abantu bari gucuruza imbuto z'ubwoko butandukanye, mw'isoko harimo umugore ndetse n'abagabo. Bari gucuruza karoti, pavuro, inyanya, intoryi, ibitunguru ndetse n'ibindi.

Ibintu byinshi bitandukanye harimo utumamiyo, imitako wataka munzu yawe hakagaragara neza ikagira agaciro wajya kuyigurisha bakaguha amafaranga menshi.

Aba ni abantu babiri b'abadamu ubona ko bishimye cyane bari guseka umwe ari gusuzanya n'undi muntu umubwira ati murakaza neza.

Ibi ni ibikorwa bya leta birimo kubaka imihanda ikomeye inyurwamo n'ibinyabiziga nka za hoho n'amabisi atwara abagenzi.

Abantu benshi barahagaze harimo abagore ndetse n'abagabo, harimo abafite ibikapu, harimo abambaye, imyenda itandukanye, harimo umuhondo, umweru, ubururu, rukara ndetse n'ayandi.

Umuntu ari kugenda mu muhanda wa kaburimbo yambaye agasakoshi munda afite umusatsi uboshye, impande haryamye undi wiyoroshe igitenge. Imodoka iri kugenda mu muhanda.

Mu isoko tuhasanga ibintu byinshi bitandukanye. Tuhasanga ibiribwa, tuhasanga ibinyobwa, mu biribwa barimo ibyubaka umubiri ibitera imbaraga, ibirinda indwara tukahasanga imyenda, tukahasanga ndetse n'ibindi byose byatunga umubiri.

Uruganda rw'amata, utubuni turi mu gatajeri rw'ibara ry'umweru turimo amata, igikoresho babikamo amata kiri iruhande rwabyo.

Abantu benshi bari mu isoko. Harimo igitsina gabo ndetse n'igitsina gore. Bari gucuruza ibintu bitandukanye. Harimo ibitunguru, y'inyanya, intoryi, tungurusumu, imiteja, n'ibindi.

Isoko rinini cyane ryubatse kuburyo bukomeye. Rifite inkingi z'ibyuma harimo imbuto zitandukanye, inyanya, ibitunguru, intoryi. higanjemo abagore benshi.

Ikikubwira abantu bashaka iterambere ryihuse barangwa no gukora, umurimo w'ubucuruzi uba mwiza cyane, wacuruza ibitandukanye n'iby'undi bikaba akarusho, imbuto ni nziza mu mubiri wacu kuko ziturinda indwara.

Imbuto ni ingirakamaro mu mubiri wacu. Kuko biturinda indwara. Ibyo twavugamo imineke, inyanya. Iyo ufite agakapu ugiye guhaha, birakorohera kugeza ibihaha byawe mu rugo.

Ku isoko haba hari ibintu byinshi bitandukanye, haba hari ibyo kwambara ndetse n'ibyo kurya. Mu byo kurya wabonamo imbuto z'ubwoko bwose, harimo: intoryi, inyanya ,karoti, ibitunguru, ndetse n'ibindi.

Abantu bakora umwuga w'ubucuruzi bagera ku iterambere rirambye ku buryo bworoshye kuko bafite umurimo bakora, umutaka barawitwikira igihe imvura iguye cyangwa se izuba rivuye mu isoko niho dusanga imyenda ndetse n'ibindi byose.

Isoko rirubatse ryubakishije ibiti bikomeye cyane risakaje amabati, harimo ibicuruzwa bitandukanye harimo amashu, inyanya, amadegede, imeteja.

Imodokari n'amapikipiki bitwara ibintu n'abantu, bigatuma bagera aho bashaka kujya mu buryo butabagoye. Abantu iyo bambaye impuzankano bituma ubasobanukirwa neza, kuko icyo bakora gikunda kuba cyanditse ku myenda bambaye.

Abantu benshi barahagaze, harimo igitsina gabo ndetse n'igitsina gore, bari mu ihema ry'umuhondo n'igitare, harimo abambaye amapantalo y'umukara n'amashati y'umweru, harimo umugore wambaye ikanzu y'ubururu.

Abantu babiri baricaye, n'igitsina gore, barishimye kuko barimo baraseka. Bambaye hejuru imipira y'umuhondo, hasi bambaye amapantaro y'umukara.

Umuntu ahagaze imbere y'ipikipiki. Yambaye umupira w'umuhondo ndetse n'amataratara amufasha kureba neza. Hirya hari undi wambaye ikote ry'umukara n'ishati y'umweru na we yambaye amataratara ameze nkuri gutangara.

Ku isoko tuhasanga ibintu byinshi bitandukanye, haba hari imyenda, amapantaro, ubururu umukara. Kwishyura ukoresheje, akanyenyeri ijana na mirongo inani na kabiri akanyenyeri, umunani, urwego ukemeza, biguhera amafaranga yawe umutekano.

Abantu baricaye abandi barahagaze bari kureba muri mudasobwa kugirango ibafashe kureba amakuru yo hirya ni hino harimo umugabo wambaye isaha ndetse n'ingofero y'umukara.

Kokakora ni ikinyobwa kidasembuye, abantu baragikunda. Ikoranabuhanga ridufasha kubika amafaranga ku buryo bworoshye, ikindi tukayoherereza abantu, kandi akagira umutekano ku buryo nta muntu wayavogera uko yishakiye.

Ibitoki ni ibiribwa bifitiye umubiri wacu akamaro. Iyo ucururije mu bisanduka, usanga ibintu biba bigaragara neza, kandi bifite umutekano. Abantu iyo bambaye impuzangano, usanga bagaragara neza.

Abantu babiri barahagaze bafite ingofero z'abamotari mu ntoki, umwe ni umwirabura undi ni umuzungu, barishimye cyane bambaye amataratara ari kubafasha kureba neza.

Gukoresha ikoranabuhanga ni ingenzi mu buzima bwacu bwa buri munsi, kuko bidufasha kumenya amakuru y'abantu batuye kure cyangwa se n'abatuye hafi; ikindi kandi bidufasha kuba twabika amafaranga ku buryo bwizewe afite umutekano ku buryo ntawayahungabanya uko yishakiye.

Umuntu arahagaze arishimye, ni umuzungu yambaye ikote ry'umukara n'isaha ku kuboko, afite ikaramu ku mufuka w'ikote.

Uburiri ni ingenzi mu buzima bwacu cyane iyo ubugiriye isuku bituma abakugana bose bagira icyizere, ikindi kandi bakakwigiraho kugira isuku mu buzima bwabo bwa buri munsi bigatuma nawe bigutera ishema aho uri hose.

Iyo uryamye ku gitanda gishashe neza bikurinda amavunane, washyiraho umusego bigatuma usinzira neza, itapi hasi bituma ubona aho ukandagira kugira ngo utaza kwandura, amarido akurinda kugira ngo hataza kwinjiramo umuyaga mwinshi.

Umuntu w'igitsina gabo arahagaze. Afashe ku rugi yambaye amataratara ari kumufasha kureba neza, yambaye ikote ry'umukara mo imbere harimo ishati y'umweru.

Kuryama ku gitanda gishashe neza bituma tugira ubuzima bwiza hariho amashuka ndetse n'imisego, amarido mu nzu atuma umuyaga utinjiramo uko wishakiye, inzugi z'ibyuma zituma inzu ikomera cyane.

Igipangu cyubakishije amatafari ahiye, imbere hari ibyatsi hirya haho n'aho hari ibyatsi, hagati hashashemo amabuye, inzu zubakishije amategura zifite irangi ry'umuhondo.

Inzu yubakishije amatafari ahiye bayishashemo amakaro ikigishije urugi runini cyane kandi rurimo ibirahuri, igipangu gifite urugi rw'ibyuma bizajya bituma abajura batabona aho baca igihe bashatse kujya kubiba.

Inzu isakaje amategura, ikubakishwa amatafari ahiye, ikabamo inzugi z'ibyuma ndetse n'amadirishya, iyo nzu biyongerera uburambe. Wayizengurutsa ibiti bikaba byayiha amahirwe yo kudatwarwa n'umuyaga.

Inzu nini cyane yubatse igerekeranyije ifite amadirishya manini ndetse n'inzugi birimo ibirahure, hejuru handitseho amagambo harimo Kigali Rwanda.

Inyubako ifite ibara ry'umweru ifite n'amadirishya y'umukara arimo utwuma, harimo amarido afite ibara ry'ubururu ndetse n'udutebe, ndetse hari n'akagare kicaramo abageze mu za bukuru ndetse n'abamugaye, harimo n'ifoto imanitsemo muri iyo nyubako.

Imodoka ziraparitse. Zitegereje gutwara abantu ndetse n'ibintu. Kugira ngo, zize kubagezaho bashaka kujya mu buryo butabagoye. Inzu yubatse igerekeranyije bizayiha agaciro igihe ugiye kuyigurisha.

Inzu nziza cyane yubatse ku buryo bw'ikoranabuhanga yubakishije amatafari ahiye asizeho irange, ifite amadirishya manini ndetse n'inzugi nini birimo ibirahure.

Inzu yubatse igerekeranyije usanga biyihaye ubwiza ikindi bikayiha agaciro igihe ugiye kuyigurisha Rugando Kigali, amawuwa impande y'inzu bituma igaragara neza.

Inzu yubakishije amatafari ahiye isakajwe amategura, bizatuma igira uburambe kandi biyihe agaciro igihe ugiye kuyigurisha ikingishije amadirishya ndetse n'inzugi by'ibyuma.

Inzu yubatse igerekeranyije bituma irushaho kuba nini cyane, washyiraho inzugi z'ibyuma igakomera cyane ndetse na madirishya, wayishyira imbere amawuwa bigatuma igaragara neza.

Kubaka inzu z'amacumbi ni byiza, byorohereza abagenzi bajya kure kubona aho baruhukira mu gihe urugendo rwabo rugikomeje, wahamagara akanyenyeri maganabiri na mirongo itanu karindwi umunani kabiri karindwi kane kane karindwi umunani icyenda bakaguha ubundi busobanuro.

Mudasobwa ni ikoranabuhanga umuntu yifashisha ashaka kumenya amakuru yo mu gihugu cyangwa no hanze yacyo. Isaha idufasha kumenya igihe. Abantu iyo bambaye impuzangano bituma batandukana n'abandi. Ikindi kandi umenya icyo bashinzwe kuko hano biba byanditse ku myenda yabo.

Abacuruzi iyo ari benshi mu isoko, bituma ibicuruzwa bihenduka. Bikorohera n'abahaha guhaha mu buryo buboroheye. Ikindi kandi, haba harimo ibintu byinshi bitandukanye. Haba harimo imyenda, inkweto, amasakoshi ndetse n'ibindi.

Isoko ryubatse ku buryo bw'ikoranabuhanga ry'ubatse rigerekeranyije, rifite inkingi z'ibyuma harimo imyenda itandukanye harimo amakanzu, amapantaro, amakoti, iyo urimo kwinjiramo ku muryango hari indabo.

Ikiraro kinini gikomeye gifite umuhanda hejuru n'undi muhanda uca munsi yacyo, hejuru hari kunyuramo ikinyabiziga gitwara abagenzi, munsi y'ikiraro hari umuhanda uri kunyuramo ibinyabiziga bitandukanye harimo imodoka, ipikipiki n'amagare.

Umucuruzi w'imbuto arishimye cyane, arimo aragurisha amacunga. Imbuto ni nziza mu mubiri wacu kuko ziturinda indwara, izo twavuga; amaronji, indimu, ibinyomoro ndetse n'ibindi.

Umuntu w'umudamu aricaye aritonze yambaye ikanzu irimo amabara y'umutuku, umukara n'ayandi yambaye isaha ku kuboko n'impeta ku rutoki.

Izina ry'ikigo cy'ubwisungane mu kwivuza. Izina ry'ishami ry'ubwisungane mu kwivuza. Amazina y'umunyamurwango Manzi, nomero y'umunyamuryango.

Amamodokari menshi ari mu muhanda wa kaburimbo ari gutwara abantu ndetse n'ibintu kugira ngo abageze aho bashaka kujya mu buryo butabagoye, hakurya hari inzu ndende yubatse igerekeranyije.

Umuntu w'umugabo arahagaze, yambaye ikote ry'umukara n'ishati y'umweru ndetse na karuvati. Ari kuvugira mu irangururamajwi kugirango abo abwira babyumve neza.

Ubupfukamunwa buturinda kwandura indwara zandurira mubuhumekero ikindi kandi mudasobwa idufasha kumenya ikoranabuhanga tukareba amakuru yo hanze ayo mu Rwanda n'ayahandi hose.

Tujye tuzigamira amasaziro yacu tukiri batoya, tubishishikarize n'abandi, tubivuge mu nteko z'abaturage mu miganda, igihugu cyacu cyadutekerejeho kirangije gishyiraho ejo heza, bizadufashe mu buzima bwacu bwa buri munsi.

Abishyize hamwe ntakibananira; umutwe umwe wigira inama yo gusara. Iyo bahanahana ibitekerezo bituma bunguka byinshi. N'utari afite icyo azi nawe akakimenya. Ukizi nawe akabwira bagenzi be.

Abantu benshi baricaye harimo igitsina gabo ndetse n'igitsina gore bari kungurana ibitekerezo kuko nta mutwe umwe wigira inama hari abafite telefone igendanwa mu ntoki harimo umudamu uboshye imisatsi iragera mu mugongo.

Inzu nziza yubatse igerekeranyije isize irangi ry'umweru .Ni imbere hari indobo iteretsemo imitako ndetse hari na kandagira ukaraberi gufasha abantu kwirinda umwanda imbere y'inzu haparitse imodoka.

Inzu nziza ifite amadirishya ndetse n'inzugi, imbere yayo hari ipikipiki iri gutwara abantu ndetse n'ibintu kugira ngo ibageze iyo babasha kujya mu buryo butabagoye hafi y'ipikipiki hari igiti kirekire.

Iyo umuntu yicaye atekanye yishimye usanga ari byiza, kugira umusatsi mwinshi ku mutwe by'umudamu bimutera ubwiza imbuto ni nziza mu mubiri ziturinda indwara ikindi turazigurisha zikavamo amafaranga.

Isoko ririmo ibintu byinshi kandi bitandukanye harimo abantu benshi, harimo umugabo n'abagore. Abagore bafite imisatsi myinshi kandi iboshye.